Abantu bane bicaye bari mu nama, bafite amazi yo kunywa, bafite indangururamajwi zo kuvugiramo. Abagabo bambaye kositimu z'umukara bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara inyuma ku gikuta hasize irangi ry'umweru.

Ababyeyi batatu bahagaze umwe wambaye agapira k'umweru undi yambaye ibitenge undi yambaye imikenyero. Bari guha igihembo k'ishimwe umubyeyi wo hagati, bari mu ihema ry'umweru, hakaba hatatse amabara y'ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Abagabo bane bicaye ku meza ku ntebe z'umukara bari mu nama buri wese afite amazi yo kunywa imbere ye, hakaba hari umwe wambaye isaha ku kuboko witangiriye itama n'undi wambaye amarinete, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Umutoza w'intore wambaye umupira w'icyatsi ufite indangururamajwi mu ntoki y'umukara akaba yicaranye n'urubyiruko rwinshi rwambaye imipira y'umuhondo n'icyatsi imbere hakaba hamanitse icyapa kirimo amaba y'ubururu n'umweru.

Abakozi b'umurenge bari mu nama iyo bahu n'umuyobozi wabo bakaba bafite aho bandika ibyavuye mu nama, aho bicaye hakaba hatatse ibitambaro biri n'ibara ry'ubururu n'umuhondo, imbere hakaba hari igipapuro bari kwandikaho ibyigwa.

Abantu batatu bicaye bari mu nama imbere yabo hateretse amazi yo kunywa umwe afite indangururamajwi ari kuvugiramo, bose bambaye amarinete babiri bambaye isaha ku ukuboko babiri bakaba bafite umusatsi.

Abantu bane bari mu itsinda bafite insanganyamatsiko yo kuganiraho batatu baricaye, undi umwe arunamye ari kubandikira ibitekerezo bagenda batanga, abyandika ku rupapuro akoresheje ikaramu, hakaba harimo umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umukara.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Abantu benshi bicaye mu nama, bakaba bicaye ku meza atatseho ibitambara by'ubururu n'umuhondo. Imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, bafite udukayi two kwandikamo. Hasi kuri sima hasize irangi ry'umutuku.

Abantu bari mu nama bambaye imipira y'umweru bicaye ku ntebe zitukura imbere yaho hahagaze umuntu uyoboye inama wambaye agapira k'ubururu ni jaketi y'umukara hakaba hari ibyapa byanditseho amagambo bari kugenda biribwaho.

Abantu bicaye ku meza manini mbere yaho hateretse amazi yo kunywa bari mu nama hakaba ari umuntu uca imbere bayoboye yambaye ikositimu hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda riririmo ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi hari undi mugabo uhagaze uri kubafotora.

Abantu bari mu cyumba cy'inama ,imbere yaho hateretse amazi yo kunywa ,n'ikirahure cyo kunyweramo bakaba bafite imashini zo kwandikiramo hakaba undi uhagaze uri kugenda afotora abantu bari muriyo nama.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'ibara ry'umweru mu ihema risa umweru rikaba ritatse amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu. Ni aba mama benshi bambaye ibitenge, bateze n'ibitambaro mu mutwe.

Abagore babiri bicaye ku ntebe z'umukara, bari mu nama, imbere yabo hari amazi yo kunywa, ibyapa byerekana ibihugu baturukamo, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, umwe afite imisatsi undi ateze igitambaro, bose bambaye amadarubindi.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Abantu bahagaze ntibaburara kwifotoza harimo umugore umwe ufite mikoro n'abandi batatu bafite ibipapuro mu ntoki, inyuma yabo hari umukecuru ufite inkoni, inyuma yabo hakaba hari igiti kihateye, ku ruhande hari ahantu hubatse ihema ritatse n'amabendera y'igihugu ubururu umuhondo n'icyatsi.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara, ameza y'umutuku. Hakaba hari abantu babiri bayoboye inama imbere, inyuma yabo hakaba hari igikuta gisize ibara ry'umweru no hejuru hakaba hari igisenge cy'umweru.

Iki ni icyumba k'inama y'imwe muri kampani runaka, aho abayobozi bashobora guhurira mu kwiga ku ngingo zitandukanye no gukemura ibibazo byagaragaye.

Urubyiruko rwinshi rw'abahungu n'abakobwa ruteraniye ahantu hamwe mu nama, bambaye imipira, ubururu, icyatsi n'umuhondo inzu igizwe n'inkingi zisize ibara ry'ivu ku nkuta hasize irange ry'umuhondo.

Abantu bicaye mu nzu, hari batatu begeranye bafite imashini imbere yabo, babiri bambaye amagufero y'abayisilamu bambaye n'amalinete, bambaye n'ibirango biriho amazina yabo mu ijosi.

Abantu bicaye bari mu nama imbere yabo hakaba hari amazi yo kunywa, indangurumajwi yo kuvugiramo, mu mashini bari gukoreramo hakaba hateguye igitambaro cy'umweru ku meza inyuma yaho hari amarido asa umweru.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Abantu benshi bari mu nama bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hatetse amazi n'imitobe yo kunywa. Hakaba hari n'indangururamajwi yo kuvugiramo buri afite ikaye n'ikaramu ari kwandika ibyo yumvise.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana. Hubatse ihema ry'umweru, ritatse amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Imbere y'abo bantu hahagaze undi muntu umwe, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara n'umweru, ufite indangururamajwi.

Umukobwa wicaye ahantu mu nama wambaye agashati gafite ibara ry'umukara n'umweru, ufite ikaramu mu ntoki wambaye agasaro k'amabara y'umweru n'umukara ku kaboko, imbere ye hateretse amazi yo kunywa.

Abantu bicaye bari mu nama imbere yabo hateretse amazi yo kunywa n'indangururamajwi bavugiramo, inyuma yabo hakaba hari inkingi isize ibara ry'ivu hakaba hari n'umuryango usohoka hanze.

Abantu benshi bicaye mu ihema ry'umweru, ritatse amabara y'ibendera y'u Rwanda: ubururu, umuhondo, n'icyatsi, imbere yaho hakaba hateretse ameza, na yo ariho ururabo, n'igitambaro cyo mu ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Abantu bari mu nama harimo abafite imashini, buri wese afite amazi amuteretse imbere hariho bamwe bicaye ku ntebe z'umutuku n'abandi bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo gukora inama hakaba harimo umubyeyi umwe uteruye umwana.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara; imbere yabo hari ameza n'amazi yo kunywa; imbere hakaba hahagaze umuntu uyoboye inama wambaye ikoti ry'umukara; hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo bakora, ku ruhande hari undi muntu uri kugenda abafotora.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, hakaba hubatse amahema yo mu ibara ry'umweru abandi bakaba bicaye mu byatsi. Hakaba hateye idarapo ry'igihuru y'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, muhondo n'icyatsi.

Inteko y'abaturage yaje mu inama imbere ya ho hari umuntu wambaye ijire y'umukara bwo iyo nama ni abagore n'abagabo bicaye imoso y'ibiti byinshi hakaba harimo n'umuhanda w'ibitaka banyuramo hagati hirya yaho hari inzu isakaje amati y'ubururu yubakije amatafari.

Urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bateraniye ahantu hamwe ari benshi , bakaba bicaye ku ntebe zisa umutuku, hakaba hari n'abandi bahagaze, inyuma harimo umuntu umwe uri kubaha ikiganiro wambaye ikote n'ishati, ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso ku ruhande hari umupolisi abandi bari impande ye bambaye imipira y'icyatsi inyuma bakaba bagaze abantu bambaye imipira y'umuhondo inyuma ku bikuta hari amatara no heju hakaba harimo inkingi iriho inkoko.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba hari umuyobozi wicaye ayoboye iyo nama, imbere y'umuntu wese uri mu nama hateretse amazi ndetse naji byo kunywa, imbere yabo hakaba hari porojegiteri bari kureberaho ibyo bari kwiga mu iyo nama, inyuma hakaba hari ifoto iriho inka z'inyambo.

Abantu benshi bateraniye mu nama bicaye ku meza atatse ibitambaro by'umutuku n'umweru, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, bakaba bicaye mu nzu isize irangi ry’umweru ku bikuta hakajya hariho amashusho atandukanye.

Abantu bicaye hamwe bari mu nama bicaye ku ntebe z'umutuku, ameza ariho itambaro cy'umweru, buri wese afite amazi yo kunywa imbere ye, inzu barimo isize irangi ry'umuhondo, harimo abagore batatu abandi ni abagabo.

Umubyeyi ukenyeye umupira akaba ari kugenda asuhuza abayobozi harimo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bicaye mu ihema ry'amabara y'umweru, hatatsemo ibitambaro byo mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu batatu bicaye bari mu nama, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa hakaba harimo abagabo babiri bambaye amakositimu n'amakaruvati. Inyuma hari icyapa cyanditseho Kigali yacu Kigali ikeye.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo abantu barigusiganwa ku magare bambaye imyenda n'umutuku w'ubururu n'umuhondo, umwe hakurya hakaba hari icyayi cy'u Rwanda ndetse n'ibiti bigiye bikijwe mu muhanda.

Abanyeshuri bari mwishuri bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kake bambara udupfukamunwa tw'umukara bicaye imbere ya mudasobwa bari kwigiramo imbere yabo hahagaze umwarimu wambaye agapira karimo amabara y'umweru n'ubururu n' wambaye agapfukamunwa k'umukara uri kubigisha.

Abantu bari mu modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye nk'abayisilamu, baricaranye bari kugenda baganira ku ikoranabuhanga, bareba muri telefone zabo.

Kalendari igaragaza uburyo ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi kizajya gitambutsa amasomo ku mateleviziyo n'amatariki n'amasaha bizajya biciraho na bur'isomo n'isaha yaryo igihe rizajya riciraho ku mateleviziyo.

Iminara myinshi iri ahantu hamwe isize irangi ry'umwana n'umutuku, hagiye hariho ibintu by'ibyuma byinshi biri kuri uwo munara, hejuru mu kirere hakaba hari ibicu by'ubururu n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto zitwaye abagenzi, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari umunara usize irange ry'umuriro n'umutuku, ufite n'ibyuma byinshi bisize irange ry'umweru. Hari ibiti biteye by'ubwoko butandukanye, n'icyapa cya MTN cy'umuhondo.

Abantu batanu bahagaze bambaye udupfukamunwa. Harimo bambaye ingofero y'umukara n'agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara. Bafite imashini mu ntoki, bakahagaze imbere y'inzu isize irangi y'umuhondo n'impande y'imodoka nyinshi.

Umuntu wicaye mu biro, imbere yatetse imashini y’umukara yandikiraho. Mbere y’imashini, hari indi mashini ifotora isa n’umweru. Munsi y’imashini ifotora, hateretse pubeli isa iroza irimo imyanda, ikaba hari n’imigozi ya mashini igiye icometse.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana imodoka zihagarara, hakaba hari umuntu uri kugenda muri uwo muhanda, ku ruhande hari ipoto z'amashanyarazi rifite itara rimurika mu muhanda n'irindi ririho insinga zijyana umuriro mu ngo.

Ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga nyinshi zijyana umuriro mu ngo, rikaba riri impande y'igipangu gisize irangi ry'umuhondo, imbere harimo inzu isize amarangi y'umuhondo isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo ukukuijwe n'ibiti n'ipoto ririho itara rimurikira mu muhanda n'insinga z'amashanyarazi ziri hejuru, ku ruhande rw'uwo muhanda hahagaze imodoka ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, hakaba hubatse igipangu cy'amatafari.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abanyamaguru bari kugenda abambuka umuhanda, hakaba hari amapoto ariho amataramurika umuhanda, hakaba hari umusozi hakurya utuyeho abantu uteweho n'ishyamba.

Ipoto ririho insinga nyinshi z'amashanyarazi rijyana umuriro mu ngo z'abaturage batuye hafi aho rikaba riteye mu busitani bukikijwe n'indabo by'ubwoko butandukanye, imbere yabo hakaba hari inzu zituyemo abantu.

Umuntu wuriye ipoto ry'amashanyarazi yifashishije urwego, yambaye imyenda y'umukara n'ingofero by'umweru, akaba akora mu kigo k'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi ducana.

Ipoto ry'amashanyarazi riri impande y'umuhanda wa kaburimbo, rifite insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu ngo, rikaba riteye impande y'ibiti n'indabo by'ubwoko butandukanye, hirya y'ibyo biti hakaba hari urugo rufite amabati y'umutuku.

Abantu barimo kugenda mu muhanda ruguru yaho hari aho bari kubaka igipangu batangiye kubaka urukuta rw'ubatsi n'amabuye hakaba hari insina haruguru y'umuhanda n'amapoto y'amashanyarazi bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru upavomye.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zijyana umuriro mu ngo n'itara rimurikira mu muhanda. Hakaba hari igipangu cyubatse n'urukuta rw'amabuye n'amatafari ahiye. Hagiye hateyeho indabo z'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwaye umugenzi, hakaba hari n'abanyamaguru bari kugenda mu muhanda, nabo ku kazu k'umucuruzi ubika akanabikoza wa MTN, hari amapoto ariho amashanyarazi n'insinga zijyana umuriro mungo.

Ipoto ry'amashanyarazi riho insinga nyinshi cyane zigiye zijya mu byerekeye bitandukanye riteye ahantu mu ishyamba ry'ibiti byinshi hejuru hakaba hari ikirere kiriho ibicu by'ubururu n'umweru.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hagiye harimo inkingi bameneye beto. Hejuru y'icyo gipangu hakaba hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, ndetse n'itara rimurika umuhanda. Kuri icyo gipangu kandi hakaba hateyeho ibiti n'indabo bizana umwuka mwiza.

Ibiti by'amashanyarazi biriho insinga zijyana amashanyarazi mu ngo z'abantu bikaba biteye mu murima urimo insina itewe n'ibiti ku mpande n'indabyo.

Ubusitani buteyemo indabo n'ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo ipoto ry'amashanyarazi ririho amatara amurikira umuhanda, n'isinga zijyana amashanyarazi mu ngo. Hari umunyonzi utwaye igare muri uwo muhanda.

Amapoto ariho insinga z'amashanyarazi ateye ku muhanda w'ibitaka, impande yaho hakaba hateye indabo z'ubwoko butandukanye . Hirya y'amapoto hateye insina zeraho ibitoki hakaba hari n'inzu isakaje amategura.

Ubusitani buteyemo indabyo z'amoko atandukanye n'ibyatsi hakaba hateyemo n'igiti, cy'ipoto kiriho insinga z'amashanyarazi zitanga umuriro mu ngo, hejuru yaho hakaba hari inzu ndende isize irangi ry'umuhondo.

Igipango gisize irangi rya oranje hirya yaho hari ikindi gisize irangi ry'ivu, hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi rijyana umuriro mu ngo zihegereye, hakaba hari umuhanda w'amabuye ugifite rigore yubatse n'amabuye.

Igiti kiriho insinga z'amashanyarazi zitanga umuriro, impande hakaba hari inzu y'ubucuruzi imanitseho ibyapa by'ibyo bakora, iruhande rw'iyo nzu hari indi bari kubaka itaruzura iriho sima n'ibiti.

Inzu igeretse inshuro nyinshi aho ifite ibirahure by'umukara ndetse isize amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, aho hariho icyapa cyanditseho agaciro, imbere yaho hari ibiti ndetse na jaride, aho iyo nzu itangirwamo serivise zitandukanye.

Icyapa kigaragaza aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ikorera, impande y'icyo kigo hakaba hari inzu y'umucuruzi wa emutiyene, hariho n'abakiriya baje bamugana, imbere yaho hakaba hari umuntu ugiye kwinjira muri icyo kigo, wambaye ijipo umukara ufite igikapu cy'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka izizamuka n'izimanuka, abantu bari kugenda mu muhanda bambaye amapantalo, hakurya y'umuhanda hakaba hari amazu menshi asize irange ry'umukara n'iryivu asakaje amabati y'ubururu, ruguru yaho hakaba hateye ibiti byinshi.

Imbangukiragutabara itwara abarwanyi, ikaba ihagaze aho imodoka zihagarara kwa muganga, ifite ibara ry'umweru umutuku ndetse n'amabara y'ubururu, hepfo yaho hakaba hateye ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye, n'amazu asize irangi ry'umuhondo n'umukara.

Amazu yubatse neza afite ibisenge by'ibyuma, hanze hari akajaride karimo abantu bafite ibikapu, amabase, itujerekani, hari umugore wunamye ahetse umwana, hari n'uabambaye agashati k'umuhondo wikoreye ibintu ku mutwe, hari umugabo uhagaze imbere y'inzu wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'icyatsi. Hirya hari umugore ufite isakoshi ku rutugu wambaye agapira k'umuhondo uri kugenda.

Ubusitani buteye ibyatsi, indabo z'ubwoko butandukanye n'ibiti binini cyane, imbere yabwo hakaba hari imodoka ihagaze, hakurya hakaba hari inzu igereretse isize amarangi yo mu ibara ry'umukara n'umweru.

Umuntu uri kwa muganga aryamye ku gitanda cy'abarwayi, impande hakaba hicaye abaganga babiri bambaye amatuburiya y'umweru, umwe aricaye undi arahagaze, imbere yabo hakaba hateretse ibipapuro bari kwandikamo, ku gikuta hakaba hasize irangi ry'umweru.

Inzu ifite umuryango imbere hicayeho umuntu wambaye ishati y'umweru, intebe y'umukara, hakaba hari igikuta gisize irangi ry'umweru. Hasi ku isima hasize irangi ry'ivu. Abantu bicaye hanze ku ibaraza, hari umwe uri kugenda, ikaba ifite inkingi zubakishijwe n'amabuye.

Imbangukiragutabara itwaye abarwayi ifunguye umuryango umwe, ihagaze m impande y'inzu yubatswe n'amatafarihiye ifite amadirishya asize amarange y'umweru, inyuma yaho hahagaze imodoka ya toyota imbere hari inzu isize amangi y'ubururu iri kwakamo amatara.

Abantu benshi bajya kwamuganga kwivuza bamwe bicaye ku ntebe, abandi bahagaze ku madirishya bari gusaba serivisi. Hejuru ku gikuta hakaba hari icyapa cya arabisi. Ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite ibisenge bikozwe mu byuma.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, amarinete, afite icyumvirizo mu matwi ari gushyira ku umurwayi. Umurwayi yicaye ku ntebe y'umukara, yambaye ikanzu y'umukara n'umweru, imbere ye ku meza hakaba hateretse imashini.

Abantu bicaye ku ntebe z'ibyuma ziri mu ibara ry'ivu, hakaba hari umumama uhetse umwana ufite igikapu cy'umukara giteretse hasi, hasi hakaba hashashemo amakaro y'umweru igikuta gisiza irangi ry'umuhondo n'umweru hejuru hari amatara ari kwaka.

Inzira y'abanyamaguru yubatse na sima y'igiheri hagiye hariho ibyuma biseze irange ry'umuhondo, hari umuntu uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, hepfo hakaba hari inzu isakaje amabati y'ubururu.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe baje kwivuza bakaba bicaye abandi bahagaze; intebe yicayeho umugororwa waje kwivuza, ku gikuta hakaba hari icyuma cy'umutuku kizimya inkongi y'umuriro n'inzu isize irangi ry'umuhondo.

Inzira y'abanyamaguru yubatswe na sima y'igiheri ikaba amabati ifite ibyuma ku ruhande bisize irangi ry'ivu ku ruhande rw'a ko kayira hateye ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye n'ibyatsi, hari amazu asize irangi ry'umweru n'umuhondo.

Ibaraza ry'inyubako ririho intebe zicaraho abantu imwe y'icyuma n'indi yo mu biti, hasi hakaba hasize irangi ry'ivu, hakaba hari inkingi zubatse mu mabuye, hakaba hari umuryango ugaragaza ubwiherero bw'abantu.

Abacamanza bicaye hamwe bambaye amakanzu yo mu ibara ry'umukara harimo n'umweru, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu. Imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, imashini bakoreramo n'indangururamajwi zibafasha kumvikana n'umuti bakaraba mu ntoki.

Sankara ari mu rukiko ahagararanye n'umwunganira mu mategeko wambaye ikanzu y'umukara irimo akabara k'umweru imbere, yambeye n'agapfukamunwa, Sankara nawe we afite amverope za kake mu ntoki inyuma ye hicaye abandi bagororwa bambaye imyenda y'iroza n'udupfukamunwa.

Abagororwa bambaye imyenda ya oranje bavuye kubaka bamwe bafite ibitiyo abandi amasuka, amagorofane bari kuzamuka batashye bari ku murongo bari impande y'igipangu cyubakije amatafari ahiye asizemo amarangi y'umuhondo.

Ingabire Victoire ubwo yari afunzwe, yambaye ikanzu y'iroza amapingu n'amadarubindi, inyuma ye hakaba hari abacungagereza babiri uw'umugabo n'uw'umugore bambaye imyenda ya kaki, hahagaze n'imodoka, impande ye hakaba hari inzu isize irange ry'umweru.

Igorora rya nyarugenge riherereye mu mujyi wa Kigali rikaba rikorerwamo abagabo n'abagore bagiye bakora ibyaha bitandukanye, hano rikaba ryubatse amatafari ahiye kandi rifite urugi rusize irange ry'umukara ko hari abagore babiri barikurira mu imbere n'umucungagereza umwe uhagaze hanze.

Umuhanzi Kizito Mihigo ubwo yari afunzwe akaba yari ahagaze imbere y'urukiko aje kuburana ku byaha aregwamo, afite agatabo mu ntoki ari gusoma hakaba hicayemo abantu barije gukurikirana iby'urubanza rwe.

Abagororwa benshi batonze umurongo bari kubabara ndetse bari kumwe n'umucungagereza wambaye imyenda ya kake. Bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, akaba asize irange ry'umukara n'umuhondo.

Abacamanza bambaye amakanzu y'umutuku, n'ingofero z'umukara, zirimo akabara k'umuhondo, bicaye mu ntebe z'ubururu, inzu bicayemo ifite inkingi zisize amarangi y'umweru bari mu nama.

Icyapa cyerekana igororero rya Huye rigororerwamo abagororwa b'abagabo, kikaba giteye ku nkingi ebyiri zubakishije amabuye, gifite urugi rw'ibyuma rusize irangi ry'umukara, imbere hakaba harimo abacungagereza bambaye imyenda ya kaki.

Abacamanza bambaye amakanzu y'umukara harimo ibara ry'umweru, bari kurahira inshingano z'ubucamanza, bakaba bafashe ku idarapo ry'igihugu cyacu riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Gereza ya Nyarugenge iherereye mu mujyi wa Kigali ikaba ifite urukuta rurerure rwubatse n'amatafari ahiye, hagiye hasize amarangi y'umuhondo, impande hakaba hari inzu y'abashinzwe umutekano yubatse hejuru mu kirere, hakaba hari abagororwa bari kumanuka bajya mu mirimo yabo.

Umuhanzi Kizito Mihigo yambaye imyenda y'irose yambara abagororwa, akaba ahagararanye n'umwunganira mu mategeko wambaye ikanzu y'umukara irimo amabara y'umweru n'amarinete, ku rundi ruhande hakaba hahagaze umucungagereza ushinzwe kumurinda.

Abagororwa b'abagore harimo abambaye imyenda y'iroza bari kumwe n'abacungagereza bambaye imyenda ya kake, bari kugenda bajya ku nzu yabo yubakije amatafari ahiye, urugi rusize irange ry'umukara n'umuhondo, hakaba hari inzu y'ushinzwe umutekano yubakishije ibyuma.

Imodoka itwara ibikomoka kuri peterori, ihagaze mu muhanda wa kaburimbo, irimo gucumba umwotsi, ku ruhande hari umuntu wambaye isarubeti y'umukara n'ingofero y'umweru, ufite igipira, ari kuyizimya uwo mwotsi uri guturuka kuri iyo modoka.

Abapolisi bari kugenda ku ruhande rw'umuhanda impande yaho hakaba hari umuntu utwaye igare wambaye umupira w'icyatsi hirya yabo hari imitaka y'umuhondo n'iy'umutuku y'abacuruza emutiyeni na tigo hakaba hahagaze n'imodoka zipakira imizigo.

Umupolisi uri mu muhanda ushinzwe umutekano inyuma ye hakaba hari moto zitwara y'abagenzi, imodoka zitwaye abagenzi mu buryo bwa rusange n'izitwaye abantu ku giti cyabo, impande y'umuhanda hakaba hari ibiti munsi y'ibyo biti hakaba hahagaze abantu bambaye imyenda ya kaki.

Umupolisi uri mu muhanda uri guhagarika imodoka isa umweru, inyuma yaho hakaba hari indi modoka isa umukara, ku muhanda hateye indabo n'ibiti by'ubwoko bitandukanye hari n'amapoto y'amashanyarazi ariho amatara.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo inyuma hari imodoka ya rege, ishinzwe ingufu z'amashanyarazi dukoresha mu Rwanda imbere yayo hakaba hari imodoka ya polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda, hakaba hari icyapa cya viziti Rwanda gihamagarira ba mukerarugendo gusura u Rwanda.

Umupolisi uri gukoresha ikizamini cya perime mumuhanda wi'gitaka yambaye imyenda yumukara afite ibipapuro inyuma mu mugongo mbere hari imodoka irimo umuntu uri gukora ikizamini uri kugenda amuhagarika yongera amubwira kugenda.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu umuhanda afite indangamuntuy'utwaye imodoka ari kuyifotora imodoka y'umukara ihagaze mu muhanda umupolisi yayihagaritse iri mu makosa akaba ari kumwandikira amuca ibihano.

Umubyeyi uri kugenda mu muhanda wambaye ijipo y'igitenge, ufite agakapu mu ntoki. Impande ye hakaba hari igipangu cyubatse n'amatafari ahiye, muri icyo gipangu harimo inzu isize irange ry'umweru. Hakaba hateye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abapolisi benshi, bahagaze kumurongo bambaye imyenda y'umukara, bafite imbunda mu ntoki, bambaye ingofero z'umukara, imbere yabo hakaba hari uri kubaha ubutumwa bagenewe, inyuma baparitse imodoka y'umweru.

Umupolisi wo mu muhanda, uhagaze imbere y'imodoka isa umutuku, muri iyo modoka hicayemo umugabo utwaye imodoka wambaye isaha ku kuboko, hirya yiyo modoka hari insina ziteye n'amazu hakurya yubatse.

Abapolisi bari bahagaze ku nkengero z'umuhanda bashinzwe umutekano w'umuhanda, inyuma y'aho ha abaka hari inzu yo mu irangi ry'ubururu bicaramo abagenzi bateze cyangwa se bategereje imodoka, inyuma y'iyo nzu hari igipangu cyubatse n'amatafari n'igiti hejuru y'aho.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Umuntu uzamuye akaboko avugiramo mayikorofone, afashe ku idarapo ry'igihugu, afite umusatsi mwiza ushokoje yambaye ikositimu, yambaye ishati y'umweru birasa nkaho hari ibyo ari kurahirira.

Umukandida wa FPR inkotanyi ubwo yarari kwiyamamaza ageze aho abaturage benshi baje kumwakirira, hepfo aho hakaba hari ishyamba rinini cyane, hakaba hari n'abantu bagenda bafata amafoto y'ibiriri kubera aho yaje kwiyamamariza, abaturage bagaragaza ko bamwishimiye bakamanika amadarapo yabo.

Abadepite mu nzego z'abagore bambaye imikenyero, bari kurahirira inshingano nshya batorewe, bafashe ku ibendera ry'igihugu riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi, ukuboko kumwe gufashe ku ibendera ukundi kumanitse hejuru.

Umuntu wicaye imbere ye hari indangurura majwi, yambaye ikote ry'umweru n'agapira k'icyatsi, ameza ateguyeho igitambaro cy'icyatsi. Iruhande rwe hahagaze abantu batatu bambaye amajipo y'umweru n'imipira y'icyatsi.

Abantu benshi bambaye imyenda y'icyatsi n'umuhondo inyuma yaho hakaba hari ihema ry'umweru, ritatse amabara y'umuhondo n'icyatsi, hakaba hateyemo intebe z'umweru hari n'ibicu by'ubururu n'umweru.

Isite y'amatora ikaba itatseho insina n'ibitambaro byo mu ibara ry'ubururu, icyatsi n'umuhondo; bigaragaza aho amatora ari kubera; hari urujya n'uruza rw'abantu bari kujya gutora n'abari kuvayo.

Umuntu ufite urupapuro rw'itora mu ntoki, wambaye impeta, urupapuroho amafoto y'abakandida biyamamariza ku mwanya w'igihugu, urupapuro rwatangaga perezida wa repubulika mu mwaka bibiri na makumyabiri na kane, yicaye ku meza ateguyeho igitambaro k'icyatsi.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, imbere ye hari indangururamajwi imufasha kugeza ijambo ku mbaga y'abantu benshi iri imbere ye, bakurikiye icyo ari kubabwira.

Umugore ufite umusatsi muremure wambaye imyenda y'umutuku, vharimo n'umukara n'umweru n'ijipo ngufiya, ufite igikapu gikunzwe gukoreshwa n'abantu bakunze kujya mu mahanga akaba ahagaze hafi y'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'inyuma yaho hakaba hari iminara y'amashanyarazi.

Inzu y'ubucuruzi m'ibara ry'ubururu, umuhondo yanditseho amagambo rebanoni hoteli utuyira tunyurwa mo n'abanyamaguru ibidukikije birimo indabo ndetse ibara ry'umukara n'umweru.

Frank Habineza ari gushyira urupapuro rw'itora mu gasanduku k'itora. Inyuma ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, n'ipantaro y'umukara n'ikote. Aho yatoreye hakaba hatatsemo ibitambaro byo mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi

Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ambasaderi oriviye Nduhungirehe yambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru na karavati y'umutuku, inyuma ye hakaba hari ikirangango cy'igihugu harimo agaseke, isaka ndetse n'ikawa, imbere yateretse ikirahure cyo kunyweramo amazi.

Abasaseri babiri b'amatora umwe yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru undi yambaye ijipo y'ubururu n'umupira w'umweru bari kumanika ibipapuro babariraho amajwi yavuye mu matora imbere yabo hakaba hateretse agasanduku k'impapuro z'itora.

Munyagaju Aurone Muhoza wari minisitiri wa siporo, yambaye amarinete isaha ku kuboko n'isakoshi ku rutugu ari kumwe n'umugabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru karuvati y'umutuku.

Umubyeyi wicaye mu ntebe z'umweru wambaye imyenda yo mu ibara ry'ubururu n'amerinete, akaba inyuma hahagaze ishusho ikozwe mu bugeni y'umubyeyi wikoreye igiseke, ku ruhande rwacyo hakaba hari ururabo.

Umugore wambaye ijagete y'umukara iriho uturongo t'umweru tumanutse ku ruhande ufite telefone mu ntoki, ari gushyira urupapuro yatoreyeho mu gasanduku k'itora gateretse ku ntebe, hirya mu idirishya hakaba hatatse ibitambaro byo mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu batonze umurongo wo ku cyumba cy'itora, hakaba harimo abagore n'abagabo, umwe yegamye ku nkingi y'ishuri, amashuri akaba yubakishije amatafari ahiye, n'amadirishya asize irangi ry'ubururu.

Wiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Frank Habineza uhagarariye ishyaka ryo kurengera ibidukikije, akaba ari gusuhuza abantu abishimiye cyane. Inyuma hakaba hari abantu bamushyigikiye bafite ibyapa biriho amazina ye, n'ishyaka rye.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Abayobozi bari mu nama mu nteko ishinga amategeko, imbere yabo bakaba bafite indangururamajwi n'amazi yo kunywa, harimo uwambaye imyenda y'umutuku, uwambaye imyenda y'umuhondo n'uwambaye imyenda y'umukara harimo n'uwambaye amarinete.

Umukandida Mpayimana Philippe wiyamamarizaga kuyobora igihugu cy'u Rwanda afite mikoro mu ntoki ku ruhande hahagaze umugabo wambaye amarinete n'ishati ya karokaro ku rundi ruhande hahagaze umugore wambaye agashati, k'uumutuku ufite telefone mu ntoki na gafurari mu ijosi.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru, umutuku, umukara n'ingofero z'umweru bafite ibyapa bya Efuperi byo mu ibara ry'umutu, kumweru, n'ubururu bagiye kwamamaza umukandida wa Efuperi aho yari yagiye kwiyamamariza ku mukuru w'igihugu.

Abantu benshi bateraniye ahantu batonze umurongo bari mu matora, hakaba hari umusaza wambaye ingofero, amadarubindi n'ikoti, akaba akurikiwe n'umukecuru wambaye igitenge, afite ishakoshi mu ntoki, inyuma y'abantu batonze umurongo, hakaba hari amahema asa umweru.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ari kumwe n'abandi bayobozi bari gufata ifoto y'urwibutso, abagabo bambaye amakote, amakaruvati n'amashati, abagore bambaye imikenyero. Inyuma yabo hakaba hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umukandida Mpayimana Philippe wiyamamarizaga ku mwanya wa perezida wa repubulika uhagarariye ishaka rirengera ibidukikije, ari gushyira urupapuro rw'itora mu gasanduku k'itora, yambaye ikositimu y'umukara n'umupira w'umweru nyuma ye hakaba hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ikote n'umupira w'umweru.

Imodoka ya hoho y'umutuku ipakiye imicanga iri kugenda mu muhanda hakurya yaho hakaba hateye ibiti impande y'ibyo biti haka hari uruzitiro rusa icyatsi rwubatse mu biti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto, ebyiri zitwaye abagenzi banka ba ikasike z umunanira babaye umutuku n'indi imwe itagize umuntu atwayevan nimbaga ikoreye umuzigo inyuma mu modoka hicayemo tandeboyi wayo ku ruhande hari umunyegare nawe upakiye neza inyuma y'aho imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umweru, hakurya hakaba hubatse amazu y'ubucuruzi harimo ahari icyapa cy'abantu bakina imikino y'amahirwe. Muri uwo muhanda kandi hakamo n'umuntu utwaye igare.

Umukobwa wirabura wambaye ishati y'umweru, uteruye ijage nk'igikoresho bifashisha babuganiza amata cyangwa se basuka amata ndetse akaba afite igikoresho mu kuboko ku iburyo, imbere ye hakaba hari indobo bashyiramo amata ndetse n'indi jage iteretse ku meza n'ikayi ndetse nyuma ye hakaba hari igikoresho bifashisha babika amata nka firigo.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga abatwaye amagare, moto, imodoka n'ibindi. Hakurya hakaba hari inzu ifite amadirishya asize irangi ry'umweru, hejuru isize irangi ry'icyatsi. Ni amazu y'ubucuruzi afite ibyapa bitandukanye bibiranga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya hoho yikoreye umucanga isa umutuku, inyuma y'iyo modoka hari moto yikorera imizigo isa ubururu. Ruguru y'umuhanda hakaba hari igipangu cy'ubururu kiri kubakwamo inzu ya etaje itaruzura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zifite ibara ry'ubururu n'umweru, ruguru y'umuhanda hakaba hateye ubusitani burimo ibyatsi. Ruguru y'ubusitani hari igikuta, kiriho ibyapa bya MTN byo mu ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo irimo imodoka bikorera imizigo zisa umweru, ku ruhande hakaba hari umunyegarare wikoreye imizigo nyinshi, harimo igitoki ibikarito ndetse n'imifuka hakurya hari kugenda abanyamaguru babiri, harimo uwambaye ingofero y'umuhondo.

Gare ihagazemo imodoka zitwara abagenzi, impande y'iyo modoka hari akazu kicayemo abagenzi bategereje imodoka, imbere yabo hari undi uhagaze wambaye ikanzu y'umukara n'undi uri hirya uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara n'umupira urimo utubara tw'ubururu, umukara n'umweru.

Imodoka itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umweru iri kugenda mu muhanda kaburimbo, harimo n'umumotari utwaye umugenzi uteruye umwana bambaye ingofero z'umutuku, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ipakiye insinga z'umukara, hakaba hari abamotari batwaye moto harimo uwambaye kasike z'umutuku, hakaba hari umunyegare upakiye amagi ku igare rye, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Imodoka itwara abagenzi yari ihagaze muri gare itegereje kuza gutwara abantu bari kuyitega. Inyuma yayo hakaba ahagaze abakobwa batatu, umwe afashe undi ku rutugu. Nimodoka ya hias itwara abantu cumi n'umunani.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zikora imizigo, harimo n'abantu batwaye moto, hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'uruzitiro rw'icyatsi kibisi, imbere hakaba harimo abantu bari mu kazi gatandukanye.

Umuhanda urimo moto ipakira imizigo ndetse na moto itwaye umugenzi wabakazwa inyuma yaho hari izindi modoka zikora rimeze ahohoreza umutuku ku ruhande hari umuntu wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira wa orange.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, harimo imodoka yikorera imizigo, imodoka zitwara abantu ku giti ryabo, moto, amagare ndetse n'izindi modoka, zihagaze, ku ruhande rw'umuhanda hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umumotari utwaye umugenzi bambaye kasike z'umuhondo, hepfo y'aho hari undi muhanda harimo imodoka iri kuzamuka, hirya y'umuhanda hari kolotire irimo amabara y'umutuku n'ubururu, hakaba hari n'ibiti biteye ku ruhande n'indabo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo modoka yikorera imizigo isa umweru hakaba harimo moto itwaye umugenzi n'umunyamaguru ufite isakoshi ku rutugu, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'igipangu kirimo abantu bari gupakira imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikoreye amakara hakaba harimo imifuka myinshi irimo amakara, itwikirije shitingi y'ubururu, ikaba hariho imigozi y'umukara hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye biteye ku nkengero z'umuhanda.

Moto ya rifani yikorera imizigo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya yaho hakaba hari umugabo uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru. Mu rundi ruhande hakaba hari umunyonzi utwaye igare, ruguru y'umuhanda hakaba hari inzu yubakishije amabati asa ubururu.

Imodoka ifite irangi ry'umweru igenda muhanda kaburimbo, yikorera imizigo, inyuma yayo hakaba hari moto itwara abagenzi, ku muhanda ku hakaba hateyeho amatara amukira mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kujya mu cyerekezo kimwe ,ebyiri zikorera imizigo. Hari icyapa ku ruhande kigaragaza ko ntaho guhagarara hahari ,inyuma y'izo modoka hari uwambaye ipantaro y'umukara n'igikapu ku mugongo ,nyuma hakaba undi wikoreye umufuka urimo ibintu .

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi utwaye igare, upakiye umufuka urimo ibiro ijana, akaba ari imodoka itwara Abantu ku giti cyabo, ntari kugenda muri uwo muhanda, hakurya hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Moto iri mu muhanda wa kaburimbo itwawe n'umuntu wambaye umupira urimo ibara ry'umuhondo n'umukara bivanze, hakaba hariho nimero wabahamagaraho, hirya hari imodoka iri kumanuka ifite ibara ry'ubururu, hakurya hakaba hateye ibiti hari imodoka ihahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikoreye imizigo ya hoho isa icyatsi, harimo umuntu utwaye igare n'abandi banyamagabo babiri umugabo n'umugore, hakurya y'umuhanda hateyeho ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ipakiye umucanga, imodoka ya hoho isa umutuku, hirya yayo hari indi ipakiye imizigo itwikirije shitingi y'ubururu, hirya yizo modoka hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Umuhanada munini utwawemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, igikamyo gifite ibara ry'umweru kikaba kikoreye hejuru yaho hakaba hariho n'umuntu, hino gatoya hakaba hariho ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, ikaba iriho n'umumotari ndetse ikaba inikoreye umutwaro.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi harimo izitwara ibintu ndetse n'izitwara abantu harimo na moto zitwara abagenzi n'abandi bagenzi bari kugenda n'amaguru mu muhanda umuhanda ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye bigenda biduha umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umwaru yikoreye imizigo, hakaba hari umunyamaguru uri kugenda mu muhanda wambaye umupira w'umutuku ufite agakapu mu ntoki, umuhanda uriho ipoto ry'amashanyarazi hakaba hari n'ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda.

Urujya n'uruza mu muhanda aho harimo imodoka itwara abagenzi iri kugenda, abanyamaguru bari kwambuka bagenda mu muhanda harimo uhetse igikapu, wambaye agapira k'ubururu n'undi uri inyuma gato y'umukara hakaba harimo n'undi utwaye igare yambaye agapira k'umutuku inyuma y'iyomodoka iri kugenda hakaba hari icyapa cya esipe (s p).

Uku ni uko bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga bisa nk'aho ari mu gihugu cy'Ubwongereza, umuntu yari yohereje amafaranga igihumbi berekana n'undi ayo aribuze kwakira, kandi biba byerekana nimba ukoresheje ikarita za banki cyangwa izindi zose waba ukoresheje birabyerekana.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zikorera imizigo, imwe ifite kontineri y'umukara indi ikaba isa umutuku imbere. Hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye n'uruzitiro ruri mu ibara ry'icyatsi, imbere mu gipangu hakaba harimo abantu.

Imodoka y'urwego rw’igihugu rw'itangazamakuru iri mu muhanda wa kaburimbo, ifite ibara ry'ubururu, umweru n'umuhondo. Kuruhande rw’umuhanda hateye indabo n'ibiti bitandukanye h'irya hari n’indi modoka iri kuzamuka iri mw’ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri ziri kujya mu cyerekezo kimwe imwe itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange indi itwaye abantu mu giti cyabo, hakurya y'umahanda hari amazu y'ubucuruzi butandukanye hateyeye n'ibiti n'indabo by'ubwoko butandukanye, hari n'isinga z'amashanyarazi zijyana umuriro muri ayo mazu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini yikorera imizigo ifite ibara ry'umweru, hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hakaba hubatse uruzitiro rwo mu ibara ry'icyatsi, hakaba harimo abantu bari kubaka imbere.

Minisitiri w'intebe w'u Rwanda wabanjirije uriho ubu ngubu, uyu mugabo yitwa Anastase Murekezi akaba yambaye ikoti y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'amadarubindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara imizigo ikaba itwawe n'umuntu wambaye ipantaro n'umupira w'ubururu, hakurya y'umahanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hari uruzitiro ruri mu ibara ry'icyatsi rwubakishije ibiti imbere hakaba harimo abantu.

Abamotari benshi bahagaze impande y'umuhanda, bakaba bafite ingofero zisa umuhondo n'umutuku. Hirya yabo hakaba hari icyapa cya koka kora ndetse n'ibiti biteye impande y'umuhanda. Hakaba hari inzu ndende ikorerwamo ibintu bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka yikoreye imizigo, harimo abamotari batwaye abagenzi, n'umunyamaguru uri mu muhanda ufite igikapu kurutugu. Hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti ubwoko bitandukanye, uruzitiro rurimo ibara ry'icyatsi n'abantu barimo imbere.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye imodoka y'umweru, moto itwaye umugenzi bambaye amakasike y'umuhondo n'umunyegare utagize umuntu atwaye, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti by'amoko atandukanye, hirya y'ibyo biti hakaba haparitse imodoka ipakira ibintu n'abanyamaguru bari kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikorera imizigo isa umukara n'umweru, hakaba harimo n'umuntu utwaye igare, hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye hakaba hari n'amazu ari hakurya ku wundi musozi atandukanye.

Abamotari babiri bicaye kuri moto, bafite ingofero z'umuhondo, impande yabo hakaba hari igiti cyegetseho icyapa cy'irembo, hari kandagira ukarabe yo mu ndobo y'icyatsi irimo amazi abantu bakaraba, hanyuma hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru yikoreye imizigo, harimo abatwaye amagare, umwe nta muntu atwaye undi atwaye umuntu. Hakurya y'umuhanda hari uruzitiro rw'icyatsi ruteyeho ibiti by'ubwoko butandukanye, imbere y'urwo ruzitiro hakaba hahagazemo imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi wambaye kasike z'umutuku, impande y'iyo moto hari imodoka y'umukara zose ziri kugenda mu ruhande rumwe. Mu rundi ruhande hari guturikamo imodoka y'umukara imbere yayo hakaba hari umunyegare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hakurya y'umuhanda hakaba hahagaze imodoka y'umukara n'iyumutuku. Hari inzu z'ubucuru zitandukanye, inzu imwe ikorerwamo imikino y'amahirwe itandukanye.

Urujya ni uruzan uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Abamotari bahagaze aho bagomba guhagarara bategereje abagenzi ngo babatware mbere yabo hakaba hari inzu ya emutiyeni itangiramo serivisi ku bakiriya hakaba hari n'umukozi wa MTN uri mu mutaka uri kumwe n'abakiriya inyuma y'izo moto hakaba hari umuntu uri kugenda n'amaguru wambaye umupira w'umukara .

Umuhanda wa kaburimbo n'imodoka y'icyatsi ipakira amatiyo, hakaba harimo na moto ipakiye umuzigo, mu kayira k'abanyamaguru harimo abagabo babiri, barimo bagenda n'undi uri imbere wikoreye umufuka, hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi utwaye umugenzi, umunyonzi wambaye inkweto z'ubururu, impade yabo hakaba hari imodoka ifite ibara ry umweru n'ubururu yikoreye imizigo hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti n'uruzitiro rw'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka yikorera imizigo isa umweru. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi. Imbere y'uruzitiro hakaba hari amazu atandukanye.

Imodoka y'umweru ihagaze mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hakaba hari abantu babiri harimo abambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara, imbere y'izo modoka hakaba hari umutaka w'icyatsi w'umucuruzi, n'andi mazu y'ubucuruzi amanitseho ibyapa by'ibyo bacuruza.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ni imodoka yikorera imitwaro. Inyuma y'imodoka hakaba hari moto, inyuma y' iyo moto hakaba hari indi imodoka nayo yikoreye imitwaro. Ku ruhande rw'uwo muhanda, hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umuntu wambaye isarubeti wikoreye umuzigo mu mufuka, hakaba hari imodoka y'umweru yikorera imiti yo kwa muganga, hakurya y'umuhanda hari umunyamaguru uri kugenda wambaye ijire y'umuhondo, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikorera imizigo ndetse na moto zitwaye abagenzi, ku ruhande hari abanyamaguru harimo umwe wambaye isarubeti y'ubururu, wikoreye umuzigo uri mu mufuka w'umweru. Ku nkengero z'umuhanda hari amatara amurikira umuhanda ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ubwishingizi bwa buritamu bufite numero iburanga, zeru karindwi iminani ibiri, ijana na mirongo ikenda n'umunani, amazero atatu, butanga ubwishingizi bwihariye kandi budahendutse, ku matsinda ndetse n'ibigo bito, kandi ubwishingizi bwa buritamu butanga ubwishingizi bwo kwivuza.

Inzu igeretse yubatse y'amatafari ahiye isakaje amabati y'umutuku, imbere yaho hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, ruguru y'umuhanda hari ikibuga kiri gukiniramo abana batatu, umwe wambaye umupira w'umutuku ,undi wambaye umupira w'ubururu, undi yambaye umupira w'ivu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru giteyemo ibyatsi kikaba gifite amazamu abiri asize irange ry'umweru, harimo abakinnyi b'abagabo barimo bakina ku ruhande rw'icyo kibuga hakaba hateye ibiti byinshi.

Imihanda ya kaburimbo ihuriranye, ikaba nta kinyabiziga kirimo, ku ruhande hakaba hari icyapa cy'umweru kiranga kibugabuga, ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti n'ubwoko butandukanye, hari amapoto hariho insinga z'amashanyarazi.

Icyapa cyerekana inzira y'abanyamaguru kikaba giteye impande y'umuhanda wa kaburimbo, ruguru y'umuhanda hari urukuta rwubatswe n'amabuye hakaba hariho igipangu gisize irangi ry'umweru, imbere muri icyo gipangu hateyemo indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyapa cy'icyatsi kiranga imihanda ijya Kigarama, Nyamata, n'umujyi wa Kigali, inyuma y'aho hakaba hari ipoto rifite itara rimurikira umuhanda n'insinga zitanga umuriro, hakaba hahagaze abantu benshi ndetse n'abamotari.

Icyapa cyerekana akarere ka Rusizi kari mu ntara y'Iburengerazuba, kiri impande y'umuhanda wa kaburimbo, hakaba hariho n'ibindi byapa byinshi bigiye biranga ibintu bitandukanye. Ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ishyamba rinini cyane, rigizwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Icyapa kigaragaza ko ikinyabiziga kitagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, hepfa hakaba hari umuntu uri kuzamuka agenda n'amaguru, impande ye hakaba hari inzu y'ubucuruzi isize amarange y'umuhondo, ifite inzugi z'amarange y'umweru.

Ibyapa bibiri kimwe cyo mu ibara y'icyatsi, ikindi cyo mu ibara ry'umweru. Biteye mu busitani burimo indabo n'ibyatsi, impande y'ibyo ibyapa hahagaze umuntu wambaye ijipo ufite ivarisi mu ntoki.

Umuhanda uriho utabona ibiti bikikije byinshi, wa muhanda kuko harimo imodoka itwara abagenzi ni bemeza ko'ama moto, hakurya hakaba hari indi nzu yafite ibati ritukura isize amarangi y'umweru.

Akabutike gahagarariye emutiyeni Rwanda gacuruza amayinite amakarita amasimukadi gashobora no kugufasha kuri serivisi z'indi wawukenera kuri emutiyeni mobayire mani iyi nikiyoswe ushobora gusangamo serivisi za emutiyeni muga mobayire mani.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo imodoka nyinshi na moto imwe itwaye umugenzi, hirya yaho yaho hari inzu ndende isize amarangi y'umweru hagiye hakoramo abantu batandukanye bamanitse n'ibyapa biranga ibyo bakora.

Umuhanda w'ibitaka urimo abanyamaguru bari kuzamuka n'imodoka, impande y'uwo muhanda hakaba hari indabo, ibipangu byubatse n'amatafari ndetse n'amabuye, hakurya hakaba hari amazu menshi y'ubwoko butandukanye.

Icyapa gisize irangi ry'umweru, kigaragaza metero zijya mu kagari ka mbogo, munsi y'icyapaka hari akandi kapa gato nak gasi kari mu marangi y'umweru kanditseho numero, y'isibo, umudugudu waho, akagari n'umurenge.

Abantu bicaye mu nzu yubakishije ibiti uruhande rumwe urundi ruriho amatafari ahiye, bakaba bari kunywa icyayi n'amazi, mu muryango hateretse kandagira ukarabe iriho akabase ipipa n'isabune yo gukaraba.

Umuhanda w'ibitaka impande y'uwo muhanda hari aho igipangu gisize irange ry'ivu cya nimero karindwi, icyo gipangu hakaba hateyeho icyapa cya gatanu ruguru y'gipangu hariho indabo ziteye aho ngaho.

Abagabo babiri bari kugenda mu muhanda w'amabuye umwe yambaye ipantaro y'umukara afite igikapu cy'umukara, undi wambaye imyenda y'umweru ahetse igikapu cy'ubururu. Imbere yaho hakaba hahagaze imodoka y'umutuku ihagararanye n'indi y'umukara.

Inzu z'ubucuruzi zimanitseho ibyapa by'ibyo bacuruza hamwe bakaba bacuruza imyenda y'abagabo n'inkweto n'amasogisi hirya yaho hakaba hacuruza ibyo kurya, hakaba hari umugabo uri kwinjira aho bacuruza ibyo kurya ugiye guhaha.

Inzu yasize irange ry'umweru n'umukara isakaje amabati y'umutuku. Ifite ibara imbere ririho utwuma, ikagira igipangu cyubakishije amatafari ahiye. Imbere yaho hakaba hari insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro muri iyo nzu.

Inzu ndende isize amarangi y'umuhondo, umweru ndetse na shokora, imbere yakaba hari umuntu uri kugenda wambaye ishati y'ubururu, hakaba haparitse n'imodoka itwara abantu, hirya y'aho hakaba hateye ibiti ndetse n'ipoto ritanga amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kujya mu kerehezo kimwe, hakurya y'umuhanda hari umutaka w'umucuruzi wa emutiyene usa umuhondo. Hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi butandukanye ari imbere y'uwo muhanda.

Inzu ndende isize amarangi y'umuhondo, amadirishya asize irangi ry'mweru n'ubururu, hakaba hariho ibyapa biranga ubucuruzi bukorerwamo, imbere y'iyo nzu ahagaze umuntu wambaye ipantaro y' iroza n'agapira k'umweru, ateze igitambaro cy'umweru.

Umuhanda bigaragara ko umanuka ku mpande hakaba hateyeho ibiti n'indabo bitandukanye, hakurya hakaba hagaragara amazu asakaje amabati y'umutuku n'ubururu hari ibiti bitanga umwuka mwiza ndetse n'umunara.

Umuhanda wubatswe n'amabuye, ukaba ukikijwe n'indabo z'ubwoko butandukanye, hari amapoto ari amashanyarazi ajyana umuriro mu ngo. Inzu isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'umutuku, hakaba harimo abanyamaguru barimo bagenda mu muhanda.

Inzu icuruza imiti abantu banywa iyo barwaye hakaba hari icyapa kerekana ko ari inzu ya Ngabo ariwe ucuruza, iyo nzu ikaba ikora n'ubwishingizi burimo rama sonarwa ara esi esi bi n'ibindi.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye yasize amarangi y'umweru, ivu ndetse n'umuhondo, isakaje amabati y'umutuku, akaba hariho igipangu cyubatse n'amatafari ya sima, hakacamo umuhanda kaburimbo, ruguru y'umuhanda hakaba hateye ibiti.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'amamodoka, moto, abanyamaguru, harimo imodoka z'umweru iz'umukara. Hagati yari umuntu kwambuka wambaye ishati ya buresiyere, hakurya y'umuhanda hari amazu menshi y'ubucuruzi ariho ibyapa bigiye byerekana ibyo bacuruza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyapa byinshi bitandukanye, ibiti n'indabo biteye ku nkengero z'umuhanda, hakaba hari amazu ageretse asize amarange y'umweru ndetse n'indi isize amarange y'umuhondo.

Umuhanda kaburimbo ku ruhande rwabo haretse amazi; hakaba n'imodoka itwara abantu ku giti cyabo, nitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziri kugenda mu gice kimwe; hari n'abamotari batwaye abagenzi, n'undi uhagaze ku ruhande; harimo n'umunyegare utwaye umugenzi.

Umuhanda kaburimbo harimo moto ziri kugenda abanyamaguru harimo n'uwikoreye, hakaba hari inzira y'abanyamaguru isizemo irange ry'umweru ruguru y'umuhanda hakaba hari ipoto rifite amatara amukira umuhanda ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abantu ku giti cyabo, moto zitwara abagenzi, impande y'umuhanda hateye ibiti n'indabyo by'ubwoko bitandukanye, hari amapoto y'amashanyarazi ariho amatara amuririka mu muhanda n'inzu ziri impande y'uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zitwaye abagenzi, bakaba bageze mu kayira k'aho abanyamaguru bambukira, ni umuhanda ukikijwe n'ubusitani burimo indabo zitandukanye, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo hatarimo ikinyabiziga na kimwe, hakaba hateye amatara amurikira umuhanda. impande y'umuhanda hari icyapa cy'umunyamaguru n'ikindi cyapa cy'icyatsi cyerekana umuhanda wa Nyarugenge mu mugi wa Kigali, ahandi hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri ahaca ibinyabiziga bizamuka ahandi hagaca ibimanuka ku gice kizamuka hari umumotari utwaye umugenzi ahamanuka harimo umunyamaguru uri kugenda hepfo hakaba hari inzira y'abanyamaguru bambukiramo.

Umuhanda w'ibitaka iyo urimo n'amabuye. Uriya muhanda harimo imodoka iri kuwugendamo, ku mpande z'uwo muhanda hateye indabo, ndetse n'ibiti, hari n'ipoto ry'amashanyarazi ritanga umuriro mu ngo zegereye uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari icyapa kigaragaza ko ntaho guhagarara hahari ku binyabiziga, hakaba hari abana b'abanyeshuri bahetse ibikapu bari kugenda. Wa muhanda ku ruhande hakaba hateyeho ibiti n'indabo by'amoko atandukanye.

Umuhanda kaburimbo harimo moto ihagaze itegereje ko umunyamaguru yambuka akaba yambaye imyenda y'umukara, hakurya y'umuhanda hari abandi bagenzi bahagaze impande y'umuhanda, hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi butandukanye harimo n'irembo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zitwaye abagenzi, harimo n'imodoka itwara abantu ku giti cyabo, ku ruhande hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye hari n'akazu ko mu ibara ry'ubururu abagenzi bicaramo bategereje imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye na moto biri kujya mu cyerekezo kimwe. Hakurya y'umuhanda haka hubatse inzu abagenzi bicaramo, isize ibara ry'ubururu. Inyuma yiyo nzu hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka imwe imanuka n'indi izamuka n'undi munyegare uzamuka, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti, inyuma y'ibyo biti hakaba hahagaze imodoka zitwara imizigo ziri kuruhuka.

Isangano ry'imihanda harimo abanyamaguru kugenda bambuka, umwe harimo umugore we wambaye iby'umweru ndetse n'igitenge n'abagabo babiri umwe agiye yipfuka mu mugongo hakaba hari imodoka na moto biparitse ku ruhande bitegereje ko abanyamaguru bamara kwambukapande y'imihanda hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo harimo moto itwaye umugenzi umumotari, uyitwaye yambaye kasike y'umutuku n'ijuru ririho amabara y'umuhondo n'ubururu n'umweru, imbere yayo hari imodoka iri kugenda ifite amabara y'umuhondo n'umweru ruguru y'umuhanda hakaba hateye ibiti.

Kizimyamwoto, iyingiyi ishobora kugufasha mu gihe mu nyubako habaye inkongi y'umuriro, kubera yuko iba iri hafi, ushobora guhita uyifashisha, ugakumira iyo nkongi y'umuriro itaraba nini.

Umuhanda wa kaburimbo uteyemo ubusitani bw'indabyo z'amoko atandukanye moto itwaye umugenzi, imodoka zitwara abantu ku giti cyabo harimo izi mpanuka n'izizamuka hepfo y'umuhanda hari inzu isakaje amabati y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zikoreye imizigo n'izitwara abantu ku giti cyabo, imodoka imwe isa ubururu indi isa umuhondo. Hakaba harimo abagenzi bari kuri moto, hakaba hari umuhanda uteyeho indabo ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uriho kamera ishinzwe kugenzura umutekano w'ibinyabiziga, ko ntawe ukora amakosa impande y'iyo kamera hakaba hateye indabo, hakurya y'umuhanda hari ubusitani bwiza buteyemo indabo n'ibiti hakaba harimo n'abantu bari kuwugendamo.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ifite ibara ry'umutuku hakurya hakaba hari abagenzi bari kwambuka, mu muhanda w'abanyamaguru hakaba hari umwe uhetse igikapu n'undi wambaye ijipo y'umweru n'ishati y'umukara, ku nkengero z'umuhanda hakaba hateye indabo.

Imodoka zikoreye imizigo ziri kuzamuka mu ruhande rumwe zikurikiranye, imbere y'izo modoka hari umumotari udafite umugenzi, hejuru hakaba hari insinga z'amashanyarazi ziri kugenda zijyana umuriro mu ngo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, moto itwaye umuntu n'imodoka y'umweru. Hakaba harimo abanyamaguru bari kwambuka mu nzira y'abanyamaguru. Ni umuhanda ukikijwe n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Umuhanda w'ibitaka urimo imodoka ziri kugendamo, ruguru y'umuhanda hahagaze abantu babiri bari kuganira, hepfo y'umuhanda hakaba hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye gifite urugi rusize irangi ry'umukara, ku nkengero z'umuhanda hagiye hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka, moto n'amagare n'abanyamaguru, hejuru hakaba hari undi muhanda ucaho bigerekeranye uri gucamo imodoka y'umutuku, ku mpande y'iyo mihanda yombi hakaba hateye ibiti n'indabo by'amoko atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikorera imizigo iri kuzamuka inyuma hari moto itwaye umugenzi nayo iri kuzamuka, ruguru mu wundi muhanda harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri mu ibara ry'umweru iri kumanuka.